Abantu benshi bari mu nama bagiye batandukanye, umwe muri bo ni umudamu ufite ibase y'ubururu, wambaye umupira mo indani w'umutuku ufite imitatsi y'umukara, iruhande rwe hari umusirikare, inyuma y'umusirikare hari umupolisi ufite idarapo ry'u Rwanda, n'umugabo wambaye ingofero itukura afashe inkongoro.

Abagabo babiri, umwe muri bo afite inkweto z'umukara ipataro y'umukara. Bafitenibiganza byirabura, umwe yambaye isaha nziza bari gusukira urushu ruriri mu butaka bwiza, ndetse iyi base ifite ibara ry'umutuku hino hari ibase y'ubururu.

Teremusi nziza cyane, teremusi ifite umufuniko umwe, ni teremusi ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, handitseho akidahira, teremusi ni bimwe mu bikoresho umuntu yifashisha abikamo, igikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo mwiza cyane umugabo wirabura wambaye ga ebyiri zifite ibara rigiye gusa n'ubururu, umugabo wambaye ingofero y'umweru ahetse icyuma cy' umuhondo gifite imishumi y'umukara, wambaye ishati y'umweru,

Umuntu w'irabura ufite ibiganza byirabura ufashe amase mu ntoki amase arimo iminyorogoto, umuntu wambaye ipantaro y'umukara hasi wambaye bote z'umukara

Amacupa abiri icupa rimwe rifite umufuniko w'umweru, icupa ryanditseho enipeka, enipeka ni kimwe mu ifumbire umuntu yifashisha mu guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibirayi bikaduha amafaranga.

Imifuka miremire, imufuka iriho utuntu tw'ubururu, hirya gato hari igiti kirekire gifite amashami maremare. Igiti ni kimwe mu bintu biturinda isuri bikaduha n'umwuka mwiza.

Inzu nziza cyane, inzu iteye irangi ry'umweru, inzu irimo imifuka y'umweru miremire myinshi, yanditswe urea n'ibyandiko by'umukara. Imifuka miremire ifite udushumi hejuru.

Umugore ufite ingofero y'urubaraza, wikoreye agakeka ku rutugu, uhetse mu mugongo icyuma cy'ubururu kariho akantu k'umuhondo, wambaye bodaboda z'umuhondo afashe agakapu karimo umweru.

Isambaza nziza isambaza ziri mu mufuka z'umweru, harimo umufuka w'icyatsi, isambaza ni bimwe umuntu ategura ku mafunguro akazishyiramo bikaryoha cyane, isambaza ni bimwe umuntu agurisha akabona amafaranga.

Ipurete nziza cyane, ipurete ifite ibara ry'umweru, ipurete iriho ibiryo bigiye bitandukanye ubwoko bwose. Ibirinda indwara, ibyubaka umubiri , mbese hirya gato hari n'imboga rwatsi hari nifoke iri icyokurya.

Ikiyaga cyiza cyane, inyuma y'ikiyaga hari ibiti byiza, ibiti byinshi. Ibiti biri muri bimwe birinda isuri, ibiti bikaduha umwuka mwiza. Iruhande rw'ibiti hari ibyatsi byiza by'icyatsi.

Ubwato bwiza cyane burimo abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo ufite wambaye isengeri y'umweru, undi wambaye umupira w'ubururu, ubwato buri mu kiyaga cyiza cyane, iruhande rw'ikiyaga hari ibyatsi byiza, ibyatsi birinda isasho.

Imigano turazicana imigano yanoze mu bikoresho twifashisha mu kubaka inzu imigano iri mu bikoresho umuntu yifashisha mu kuboha ibintu bitandukanye iruhande rwazo, hari umuhanda w'igitaka.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikungahaye bitera imbaraga. Hirya gato ha hari ibiti birebire bifite amashami menshi, hirya gato hari imisozi n'ibicu by'umweru.

Ibigori byiza, ibogori biri mu biribwa bitera imbaraga, ibigori ubijyanye ku isoko wabonamo amafaranga, iruhande rw'ibigori hari kaburimbo nziza, irimo umurongo w'umweru, urimo umuntu uri kugenda.

Igiti, igiti cyiza cyane ,kirekire gifite amashami menshi. Igiti kiri mu bintu birinda isuri ,igiti kikaduha umwuka mwiza, iruhande rw'igiti hari ubutaka bwiza cyane bw'umukara, iruhande rw'igiti hari ibitoki, ibitoki biri mu bintu umuntu yifashisha ategura ifunguro.

Ibishyimbo biri ku misigati, harimo ibitunguru. Ibishyimbo bigifite akamaro bidutera imbaraga, hirya gato hari ibigori byumye, iruhande rw'ibigori hari ibiti birebire, inyuma hari umusozi muremure.

Ibimera byiza cyane harimo amateke. Amateke ni bimwe mubihingwa umuntu arya bikamutera imbaraga. Hirya gato hari ibiti birebire bifite ubwiza, ndetse ibiti birinda isuri bikaduha n'umwuka mwiza.

Ubutaka bw'umukara bwiza cyane buteyeho ibimera, hirya gato hari ibiti birebire bifite ubwiza mvaburayi hirya gato hari ibitoki. Igiti ni kimwe mu bikoresho birinda isuri, bikaduha umwuka mwiza.

Ibirayi byiza cyane, hirya gato bateye ibitoki byiza bibereye ijisho, ibirayi ni bimwe mu bihingwa bitera imbaraga bikaduha poroteyine, ibitoki turabigurisha tukabibonamo amafaranga.

Ikimera cyiza cyane, ikimera gifite ibara ry'icyatsi, giteye ku butaka bw'umukara, hirya y'ubutaka bw'umukara, hariho igiti kirekire, igiti kiri mu bintu birinda isuri, kikaduha umwuka mwiza hirya gato hariho ibiti biremere.

Ibitoki byiza cyane , ibitoki tubijyana ku isoko tukabona amafaranga, ibitoki biteye ku butaka bwiza cyane bw'umukara, ndetse iruhande rw'ibitoki hari ibyatsi byiza cyane bibereye ijisho, bifite ibara ry'icyatsi, ibyatsi biri mu bintu birinda isuri.

Inzu yubakishije amatafari, imbere y'inzu hari intama zigiye zitandukanye, hari n'ubutaka bwiza cyane bufite ibara ry'umukara, hari n'ubwantsi bwiza cyane, hirya gato hari ibitoki, ibitoki byiza cyane.

Ibyatsi byiza cyane bifite ibara ry'icyarasi, ibi byatsi birinda isuri, ibi byatsi bivamo imiti, ibi byatsi babikoramo ibyo kurya, hirya gato hari ibiti bifite ibara rigiye gusa n'umweru, ibi byatsi bikaba birinda isuri, bikaduha umwuka mwiza.

Ibitaka by'umukara hariho umudamu wunamye imbere y'ibyatsi by'icyatsi, iruhande rwe hatari ibyatsi birebire by'icyatsi, inyuma y'ibyatsi hari ibiti birebire cyane byiza cyane .

Abagabo beza cyane birabura, umwe muri bo yambaye ikoboyi nziza cyane, hino gato hari umugabo mwiza cyane ufite umupira w'icyatsi urimo umweru, hino gato hakabamo umudamu witeze gitambaro cy'umutuku.

Abadamu beza, babiri birabura, umwe wambaye agapfukamunwa k'umutuku, undi wambaye agapfukamunwa k'umweru, hirya gato hari umugabo wambaye bote z'umukara, wambaye agapfukamunwa k'umutuku, bicaye mu nanasi, inanasi ni bimwe mu bihingwa biduha amafaranga.

Umufuka urimo impungure za mayizori hirya gato hari umufuka uhinnye w'umweru, hirya gato hari umufuka munini w'umweru. Impungure ziri mu bihingwa bikungahaye bifite intungamubiri, zigatera imbaraga zikavamo ifu.

Avoka nziza cyane zirimo, zifite ibara ry'icyatsi, ziri mu gikarito kigiye gusa n'umuhondo, hirya gato hari ibikarito bigerekeranye bigiye gusa umuhondo. Avoka ni zimwe umuntu yifashisha arya, bimufasha mu igogora, ndetse akagurisha akabona amafaranga.

Inzu nziza cyane inzu yubatswe n'amatafari, ifite fondasiyo, hariho umudamu wicaye kuri phone wirabura wambaye ikoti ry'umweru ririmo ubururu, wambaye ijipo irimo umutuku imbere gato hari ibinyomoro, ibinyomoro biri mu bintu bimwe birinda indwara.

Voka nziza cyane voka zifite ibara ry'icyatsi voka tuzigurishije twabona amafaranga voka ni kimwe umuntu ategura ku mafunguro akabishyiriraho ko biduha poroteyine nziza

Abagabo n'abagore birabura bahagaze, umwe wambaye ishati y'umuhondo, witeze igitambaro cy'umweru, hirya hari umugore ufite umupira w'umweru, hirya gato hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Voka nziza cyane, voka ziri mu biribwa umuntu yifashisha ategura amafunguro agashyira mu buryo, amavoka ari mu bintu umucuruzi acuruza akabonaho amafaranga. Amavoka ari mu biryo.

Imyumbati niyiza cyane, imyumbati iri muri bimwe bidutera imbaraga, imyumbati turagurisha tukabona amafaranga. Iruhande rw'imyumbati hari ikibogisi cy'umukara, hirya gato hari ameza meza abereye ijisho.

Inzu y'ibiti isakajwe ingenge irimo ingurube. Ingurube iri kunywa amazi ari mu kiduki, imbere hari umudamu wambaye amarinete ufite imisatsi y'umukara, wambaye bote z'umukara, akoze ku ngurube.

Umugabo mwiza cyane wirabura, wambaye ikote ry'umweru ririmo ubururu n'umutuku, n'umukara, wambaye ipantaro igiye gusa n'umweru na bote z'umukara. Ari gufumbira ibimera.

Umudamu umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura, umudamu ufite imisatsi miremire, ufashe isuka uri guhinga, imbere gato hari ibyasibiri ibyatsi byiza cyane, ibyasibiri ni bimwe mu birinda isuri.

Umugabo mwiza cyane wirabura, wambaye agapfukamunwa kumukara, umugabo uteruye imyumbati. Imyumbati ziri mu bimwe mu bihingwa bitera imbaraga ndetse tukabigusha, umugabo wambaye inkweto z'umweru.

Umudamu umudamu wirabura ufite imisatsi y'umukara afashe telefone ifite amatushe y'umweru afashe ikindi kintu cy'umweru ukenyeye. Inyuma ye gato hari ibiti byiza, ibiti biri mu bintu bimwe birinda isuri ndetse bikaduha umwuka mwiza.

Urusenda rwiza cyane. Urusenda rufite ibara ry'umutu. Urusenda ruri mubintu umuntu yifashisha ategura amafunguro. Urusenda rutera apeti. Urusenda urugurishije wabona amafaranga.

Igiti kirekire cyiza cyane, gifite ubwiza cyane, giteye ku butaka bw'umukara bwiza. Izi mbuto ni kimwe mu byubaka umubiri bikadutera imbaraga, tukabigurisha, tukabona amafaranga.

Abantu beza birarabura umwe muribo ni umugore abandi ni abagabo. Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo wambaye agapira k'ubururu, bose bafashe ibijumba. Ibijumba biri muri bimwe bitera imbaraga. Umugabo umwe wambaye ingofero irimo umweru n'umukara.

Umufuka mwiza cyane w'umweru ufite umurongo umanuye w'ubururu, iruhande rwawo hari ibirayi byiza cyane birunze, ibirayi biri mu bimwe biduha poroteyine, bikaduha, bikadutera imbaraga.

Ikimera cyiza cyane, gifite ibara ry'icyatsi, giteye ku butaka bw'umukara, icyatsi ni kimwe umuntu akoramo umuti wo kwivuza ku bantu, amatungo, n'inyamaswa. icyatsi kiri mu bintu birinda isuri.

Agafuka keza cyane gafite amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, icyatsi, umukara, umweru. Agafuka karimo ifu nziza cyane; ifu bifashisha bashigisha igikoma cy'abantu.

Avoka nziza cyane, avoka zifite ibara ry' icyatsi, avoka zifashishwa gutegura ifunguro, ndetse zikaduha proteyine, avoka ziri mu bikarito. hirya gato hari umuntu uhagaze wambaye agapira gasa umweru n'umuhondo wirabura.

Umugabo wirabura mwiza, uri kumwe n'umugore mwiza wirabura, umugabo wambaye ikositimu y'umukara wambaye imyenda, mo indani harimo ishati y'umweru hasi ipataro y'umukara, iruhande rwe hari umubyeyi wambaye umupira w'umukara bafashe imyumbati, inyumbati iri mu bintu bitera imbaraga.

Imifuka y'umweru miremire myinshi irimo ibirayi. Ibirayi biri mu bidutera imbaraga bikaduha na poroteyine, iruhande rw'ibirayi hari umuntu wambaye bote z'umukara wicaye ku birayi ifite umupira w'umweru n'umukara.

Urusenda rwiza cyane, urusenda rufite ibara ry'umutuku, urusenda ruri mu bintu umuntu yifashisha ategura ifunguro, akarushyira mu byo kurya. Urusenda urugurishije wabona amafaranga, urusenda rutera apeti.

Umugore n'umugabo bicaye hamwe, umwe birabura, umwe wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi y'umukara, undi mugabo ufite ishati itukura, mo indani wambaye agapira k'umweru, imbere gato hari ibihaza byiza cyane.

Ibigori biri mu bwanikiro. Hirya gato hari urugi rw'umutuku. Ibigori biri muri bimwe bitera imbaraga. Ibigori bivamo ifu. Ibigori biduha amafaranga. Ibigori turabigurisha tukabona amafaranga.

Ibigori byinshi, ibigori byiza cyane, ibigori biri mu bintu biduha amafaranga, ibigori biri mu bintu byubaka umubiri bikadutera imbaraga, ibigori tujya kubibetesha hakavamo ifu, imbere y'ibigori hari umudamu wirabura ufashe.

Amashu meza ateye ku murongo, hirya gato hari ibiti birebire bibereye ijisho. Ibiti biri mu bintu biturinda isuri bikaduha umwuka mwiza. Amashu ari muri bimwe umuntu yifashisha mu rugo ateka imboga, ndetse no kuzirya, akazigurisha akabona amafaranga.

Ibintu umuntu yifashisha mu gutegura ifunguro imyembe, amavoka, inanasi, ibihaza, ibitoki, hirya y'ibitoki hari abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo witeze igitambaro umwera.

Inzu nziza cyane irimo abantu bagiye batandukanye ,imbere y'abantu hari ibishyimbo byiza cyane biri ku nkoko. Ibishyimbo ni bimwe mu bihingwa biduha amafaranga, ndetse bikaduha na poroteyine.

Imbuto imbuto nziza cyane imbuto zifite ibara ry'icyatsi imbuto ziri mu byubaka umubiri, birinda indwara, tukabigurisha tukabona amafaranga imbuto nziza cyane.

Umuntu wirabura ufite umusatsi w'umukara, wambaye agapfukamunwa k'umukara, imbere ye hari ibirayi. Ibirayi bidutera imbaraga, ibirayi biduha poroteyine. Iruhande rw'ibirayi hari umunzani ufite ibara ry'ubururu n'umweru.

Imodoka y'umweru ipakiye amashuri , harimo umuntu Iruhande rw'imodoka hari umugabo uhagaze. Iruhande rw'imodoka gato hari umutaka wa MTN w'umuhondo. Iruhande rw'umutaka wa MTN, hari moto iparitse.

Bimwe umuntu yifashisha mu gutegura ifunguro, harimo karoti, itomati, ibitunguru, pwavuro, ibirayi, amashu. Ibirayi biri muri bimwe bidutera poroteyine, bikaduha n'amafaranga.

inzu nziza cyane, inzu ifite irangi rigiye gusa umuhondo. Ifite inkingi. Hasi hari irangi ry'umukara. mu nzu harimo umudamu witeze igitambaro cy'umweru. Harimo n'ibirayi . Ibirayi biri mu bintu bitera imbaraga, bikaba bifite poroteyine. Umuntu abigurishije yabona amafaranga.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ibyatsi biri muri bimwe umuntu yifashisha arinda isuri, ibyatsi bivamo umuti wo kujyana kwa muganga, ndetse bikavamo ibintu bigiye bitandukanye, byo kuvura amatongo.

Abantu benshi bagiye batandukanye bamwe muri bo bafite amasuka, ndetse harimo n'abayobozi harimo n'abasirikari n'abapolisi ,ndetse muri abo baturage bafite amasuka harimo umubyeyi wunamye wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi uhagaze wambaye agapira k'umutuku , n'undi wunamye witeze igitambaro cy'umutuku.

Inzu nini yubakishijwe amabati n'indangari . umugabo wambaye ikoti ry'umukara iruhande rwe hari ibyatsi by'icyatsi imbere gato hari icyapa kinini kifite ibara ry'umweru impande yacyo hari uduti.

Ibitoki byiza cyane bibereye ijisho, biteretse ku gitaka cyiza; ibitoki ni bimwe mu biryo umuntu yifashisha mu rugo, bikamuha amafaranga ndetse akabigurisha akabona amafaranga.

Amajeri menshi cyane meza afite ibara ry'icatsi. Amajeri Ari mu biryo umuntu yifashisha arya akamutera poroteyine, ndetse umuntu akanayagurisha akabona amafaranga.

Umusozi muremure mwiza cyane, uriho amaterasi. Amaterasi ari muri bimwe biturinda isuri, harimo n'ibiti birebire bifite ubwiza cyane, ibiti biturinda isuri, ibiti bikaduha umwuka mwiza.

Imiteja myiza cyane, imteja ifite ibara ry'icyatsi. Imiteja iri mu bintu umuntu yifashisha ategura amafunguro. imiteja iraryoha cyane. Hirya y'imiteja hari isafuriya nziza cyane, ifite ibara ry'umweru, irimo akantu karimo imbere gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ishyamba ryiza cyane, ishyamba rifite ubutaka bwiza cyane bw'umukara, ishyamba riri mu bintu bimwe bikurura ba mukerarugendo tukabona amadovize, ishyamba rifite ibiti byiza cyane, biturinda isuri bikaduha umwuka mwiza.

Umuntu wambaye burukara, ufite ibiganza byiza cyane uri gusoroma amajeri. Amajeri ni amwe mu bihingwa biduha amafaranga tukayarya, umuntu wambaye siripa z'umweru.

Ibase, ibase nziza cyane irimo umuceri w'umweru, umuceri uri muri bimwe mu biryo umuntu ategura, umuceri uduha porotoyine, umuceri tuwugurishije twabona amafaranga.

Ibimera byiza cyane biteye ku butaka bw'umukara, hirya gato hari ibiti birebire bibereye ijisho. Ibiti biri muri bimwe birinda i isuri, ibiti biri muri bimwe biduha umwuka mwiza.

Ibimera bifite ibara gicasi, biteye ku murongo, biri ku butaka bw'umukara, hirya gato hari ibiti birebire bibereye ijisho. Ibiti biri mu bumwe biturinda isuri, bikaduha umwuka mwiza cyane.

Ikimera kize cyane, ikimemera kivamo umuceri gifite ibara risa icyatsi, kiri kubutaka bwiza cyane bw'umukara, umuceri urimu bintu bimwe abantu bagiye batandukanye bifashisha mu gutegura ifunguro, ndetse umuceri uduha puroteyine.

Ibishyimbo byiza cyane bifite ibara ry'umweru. Ibishyimbo biduha poroteyine. Ibishyimbo biri muri bimwe umuntu yifashisha, arya bikamutera imbaraga. Ibishyimbo iyo tubigurishije tubona amafaranga.

Icyatsi cyiza cy'amabara cyiza gifite ibara ry'icyatsi, kimwe mu bintu birinda isuri ndetse iki cyatsi umuntu yagikuramo umuti, wo kuvura abantu ndetse n'inyamaswa ndetse n'amatungo magufi.

Umufuka mwiza cyane, muremure, urimo ibinyampeke. Umufuka w’umukara n’umweru uteretse ku mukeka. Inyuma y’umukeka hariho igitaka cy’umuhondo.

Umukobwa wambaye umupira wumuhondo wanditseho yusidi, ukenyeye igitenge ufashe ibishyimbo biri mwi base nyuma hari inzu y'ibyatsi hirya gato hari igiti hakaba hariho n'ibitoki hirya gato inzu idahomye.

Ingano nziza cyane zifite ibara ry'incyasi, ziteye ku butaka bw'umukara bwiza, ingano ziriri muri bimwe umuntu yifashisha agurisha kugira ngo abone amafaranga. Ingano zivamo tofu.

Inzu nziza cyane inzu y'igitaka ifite amadirishya y'ubururu, ifite urugi rw'ubururu isakajwe amabati y'umweru, imbere y'inzu hari abantu babiri b'abagabo bari guhura ibishyimbo bambaye bote z'umukara, hejuru umweru n'undi wambaye agapira karimo umutuku n'umukara, hirya gato hariyo igipangu cy'amabuye.

Amajeri meza amajeri ari ku ubutaka bwumukara bwiza, amajeri ari mu bimwe umuntu yifashisha ateka ibiryo, amajeri atanga poroteyine, amajeri uyagurishije umuntu yabona amafaranga.

Inkoko ntziza cyane, inkoko iriho ubunyobwa. Ubunyobwa buri mu bintu bimwe umuntu yifashisha arya ndetse kugira ngo abone intungamubiri, ubunyobwa buri mu bintu bikungahaye biduha amafaranga.

Umuceri mwiza cyane. umuceri uri mu dufuka twinshi tugiye dutandukanye tw'umuhondo, ndetse harimo n'umurongo w'umweru umanuye, ndetse byanditsweho n'ibintu by'umukara. Imbere y'umuceri hari umugabo mwiza cyane wirabura, wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ingofero y'umuhondo.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amabati y'umweru mu mpande. Imbere y'inzu hari imifuka miremire myinshi cyane. Iy'umweru irimo amabara amanuye y'icyatsi. Iyo mifuka ni imwe mu bikoresho umuntu yifashisha abikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bifite amoko; ibishyimbo biri mu bintu byubaka umubiri, ibishimbo tujyana ku isoko twabona amafaranga, ibishimbo biri mubintu umuntu yifashisha ategura amafunguro agiye atandukanye.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bifite ibara ry'icyatsi. Hirya gato hari imigano. Imigano iri mu bintu umuntu yifashisha yubaka inzu ndetse umuntu akayishingiriza ku bishyimbo. Ibishyimbo biri mu bintu bitera poroteyine ndetse bigatera imbaraga.

Ibyatsi byiza cyane bifite ibara ry'icyatsi biteye ku butaka bw'umukara. Ibyatsi tubikuramo umuti bifashisha kwa muganga, ibyatsi ni bimwe mu bihingwa birinda isuri.

Umufuka w'umweru urimo ibintu hirya yawo hari umuntu wambaye bote z'umutuku, wambaye ipantaro y'umukara ufite umukoropesho uri gusanza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hirya gato hari imifuka myinshi cyane y'umweru.

Ibihwagari byiza cyane ibihwagari bifite ibara ry'umuhondo, bimwe muri byo bipfunditseho utuntu tw'umweru hirya gato hari ibiti byiza. Ibiti biri mu bintu birinda bikaduha umwuka mwiza, ibihwagari turabigurisha tukabona amafaranga.

Inkoko nziza inkoko ifite ibirokoroko byiza, inkoko iri kurarira amagi, amagi ari mu bintu by'intungamubiri umuntu akayagurisha akabona amafaranga, inkoko uyigurishije wabona amafaranga.

Inzu nziza cyane inzu yubakishije ibiti byiza cyane, ndetse mu nzu mo imbere ndetse no hanze yayo kakaba hateye sima, inyuma y'inzu hari ibiti byiza cyane ndetse n'agasozi katari karekare cyane. Ibiti biri mu bintu birinda isuri ,ndetse bikaduha umwuka mwiza.

Abantu birabura, abantu bambaye amasarubeti y'ubururu, bambye ga z'umweru, hirya hari umuntu ufite ikaramu ku umunwa wambaye amarinete y'umukara wambaye umupira utukura abantu umuri make niba veterineri.

Inka nziza, inka zifite amahembe maremare, inka nziza zambaye amashanete, inka ziryamye, ziryamye ku butaka bw'umukara bwiza. Inka ziri mu matungo maremare, zitanga umukamo mwiza.

Inka, inka nziza, inka ziri aho zigomba kuba ziri. Inka ziri mu matongo maremare abantu bifashisha zigatanga umukamo mwiza, ndetse tukawubonaho amafaranga. Tuzigurishije twabona amafaranga.

Inka nziza cyane iri aho igomba kuba iri. Iri hamwe n'abagabo babiri birabura, umwe ufite imisatsi y'umukara undi nta musatsi afite, undi yambaye umupira ujya gusa n'umweru.

Imbwa ebyiri nziza ziri ahabugenewe, iruhande rwazo hari umugabo wirabura wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ga z'umweru ,wambaye bote z'umukara ufashe imbegeti y'ubururu.

Inyama nziza cyane zimanitse hejuru. Inyama uzigurishije wabona amafaranga. Inyama ni zimwe mu biribwa umuntu arya zikubaka umubiri, ndetse zikaduha na poroteyine.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura, umuntu wambaye itaburiya y'umweru yanditseko urwandiko tw'umukara. Imbere gato hari inka nziza, Inyuma y'inka hari ibiti byiza, ibiti biri mubintu birinda isura bikaduha umwuka.

Inyana nziza. Inyana ihagaze ku butaka ,inyuma y'inyana hari ibyatsi byiza cyane, by,ibara ry'icyatsi, Ibyatsi biri mu bintu birinda isuri .Inyana tuyigurishije twabona amafaranga

Inka y'umweru n'umukara iri mu gipangu cy'ibiti. Hirya gato, hari umugabo wambaye umupira w'umweru, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye ingofero y'umukara. Hirya gato, hari umugabo utambaye ingofero, wambaye agapira k'umweru. Hirya gato, hari uwambaye ikoti ry'umukara, wambaye ishati y'ubururu.

Inkoko nyinshi, imwe muri zo ifite ibara ry'umweru zikaba zifite ibirokoroko by'umutuku, zikaba zihagaze ku gitaka cy'umukara. Akamaro k'inkoko, zitera amagi tukazirya tukanazigurisha.

Inka nziza cyane, ni inka eshatu zirisha. Inka ni zimwe mu nyamaswa ndende umuntu yifashisha mu gukama abona amata meza. amata ni amwe mu bintu byubaka umubiri.

Ingurube, ingurube nziza cyane, ingurube ziri mu nzu y'ibiti, ingurube nziza zifite ibara ry'umweru. Ingurube ziri gukorwaho n'abantu bagiye batandukanye umugore n'umugabo, umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi miremire izinze, n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru umuri n' impande, ufite agapira k'umuhondo wambaye rinete, bari gukora ku ngurube.

Inka nziza inka ziri aho zigomba kuba ziri, inka bari kuzitera urushinga, hiryaga hari umugabo mwiza wirabura wamaye ga z'ubururu, wambaye itaburiya y'umwe, wambaye agafukamunwa k'ubururu, hirya gato hari umugabo wambaye ingofero y'umukara inyuma, gato hari umudamu wambaye agapfukamunwa.

Ingurube nziza cyane, iri konsa abana ba yo, iruhande rwa yo hari umuveterineri wirabura, wambaye rinete, wambaye umupira w'umweru, wambaye ikoboyi, wambaye inkweto z'umukara, ingurube iri muri bimwe bituma umuntu abona amafaranga.

Intama zigiye zitandukanye zirimo ibara ry'umweru ziri kurisha, inyuma yazo hari ikigo cy'amashuri cyubakishijwe mu matafari ahiye arimo imirongo y'umuhondo ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu.

Inyoni, inyoni nziza cyane. Inyoni ihagaze ku butaka bwiza bw'umukara. Imbere y'inyoni hari ibyatsi byiza cyane by'icyatsi. Ibyatsi biri mu bintu bimwe birinda isuri.

Inyoni nziza cyane ifite amabara y'umutuku ikagira n'ibara ry'umukara, hejuru gato ikagira ibara ry'ubururu bwijimye. Iri mu giti kiza cyane, gifite amababi y'icyatsi. Igiti kiri mu bimera birinda isuri.

Ingurube iri mu mazi, ingurube ifite amatwi y'umukara , ifite umunwa w'akaziga, ingurube iri mu nyamaswa zibyara ubwana bwinshi, inyuma gato hari igitaka cyiza.

Umucamano umucamano mwiza cyane ni umucamanza ufite umuhogo w'umuhondo ufite amaso y'umukara ufite ibara atadukanye harimo n'umweru n'umukara uri kugenda ku butaka bw'umukara ubutaka bwiza cyane.

Inyoni nziza cyane, inyoni ifite ibara ry'umukara n'umuhondo ku munwa, ifite ijisho ry'umutuku, ikagira amaguru y'umutuku, ihagaze ku byatsi byiza cyane by'icyatsi. Ibyatsi biri muri bimwe birinda isuri.

Inyamaswa, inyamaswa nziza cyane, inyamaswa yicaye, irimo ibara ry'umweru, ifite amatwi meza, ifite ijisho ryiza, ifite umunwa mwiza, iyi nyamaswa iri mu nyamaswa zikunzwe n'abantu, ibereye ijisho kureba.

Inyamaswa nini cyane. Inyamaswa iri mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo tukabona n'amadovize, ndetse n'Igihugu kigatera imbere. Inyuma y'inyamaswa hari ibyatsi birebire byiza, kandi ibyatsi birinda isuri.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa ifite amabara agiye atandukanye, ifite ibara ry'umweru n'umukara, inyamaswa ibereye ijisho, iri kugenda ku byatsi byiza cyane, ibyatsi bisa icyatsi, ibyatsi biri mu bintu bimwe birinda isuri, ndetse bagakoramo n'imiti igiye itandukanye yo kuvuza umuntu ndetse n'inyamaswa.

Imbwa y' ishyamba ifite amabara agiye atandukanye, harimo umweru, umukara, umuhondo ikaba ifite amaso y' umukara, umunwa w' umukara ikaba ihagaze ku mucaca ikaba ari imbwa ikanganye.

Inyamaswa nziza cyane ibereye kureba. Inyamaswa iri mu nyamaswa zikurura abantu bakazana amafaranga. Inyamaswa ifite umwana wayo mu kanwa, inyuma y'inyamaswa hari ibyatsi byiza cyane. Ibyatsi biri mu bintu birwanya isuri.

Inyamaswa nziza cyane iri mu giti hejuru, ifite ibara ry'umukara, ifite umurizo muremure, ufite ibara ry'umukara. Iyi nyamaswa iri mu nyamaswa zimwe zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize. Iyi nyamaswa inyuma yayo hari ivazi ry'icyatsi.

Inyoni nziza cyane. Inyoni ifite ibara ry'umukara n'umweru. Ihagaze ku butaka bwiza bw'umukara, hirya gato hari ibyatsi bisa icyatsi. Ibyatsi biri mu bintu bimwe birinda isuri. Inyoni iririmba.

Inkende, inkende iri mu nyamaswa zikundwa n'abantu bagiye batandukanye, inkende ifite ibara ry'umukara ifite n'ibara ry'umweru ryijimye, inkende iri muri zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni, inyoni nziza cyane, inyoni ifite ibara ry’umukara, ifite amaso y’umukara. Inyoni ni imwe mu nyamaswa ziguruka mu kirere. Inyoni ihagaze ku giti; igiti kiturinda isuri, igiti kiduha umwuka mwiza.

Imvubu imvubu nziza cyane, ibyibushe iberesha ijisho, iri mu gipangu cyubakishije ibiti, hasi nk'indagiye ikandagiye ku butaka bwiza cyane, bufite ibara rigiye kumera ngaho ari umuhondo ndetse hari ibyatsi byiza cyane, bifite ibara ry'icyatsi.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa ifite amaso y'umukara, inyamaswa ifite umunwa muremure, inyamaswa ifite amababa meza, inyamaswa ifite ifi mu kanwa, inyamaswa igendera hejuru y'amazi.

Ikigona kiza cyane, ni ikigona gifite amaguru y'umweru kikagira umunwa muremure kikagira amaso y'umukara, kiri kurya inyama. Iki kigona kiri mu biguruka mu kirere, iki kiri mu bintu bitungwa n'inyama, inyuma yacyo gato hari ibyatsi byiza cyane bisa n'ibara ry'icyatsi.